Abana baje kuvoma mazi inyuma hari umuntu urimo kupakira, hari umusozi ibiti ndetse n'imodoka iri muri ako kayira.

Umudamu uhetse umwana ari ku ivomero, afite indobo y'umuhondo, arimo koza umufuniko wayo, inyuma ye hari ibiti.

Umugabo ufashe ku kidomoro aje kunywa mazi arimo guseka, yambaye ipantaro y'umukara nishati ya gaperi y'amaboko magufi. Inyuma ye hari ibyatsi.

Abadamu bane bafite ibidomora, barimo kuvoma amazi, abandi barahagaze ahandi hari inzu, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Abantu babiri, umukobwa n'umwana, umwana aricaye, umukobwa arunamye ari kuvoma amazi k'umugezi utemba, ahetse igikapu, yambaye umupira w'icyatsi, ipantaro y'umukara, inkweto z'umuhondo.

Abagangakazi, abagabo bari mu cyumba cy'inama, bafite amakayi n'akaramu, barimo gukangurirwa ibijyanye n'umwuga bakora.

Abanyeshuri barimo gukaraba mu ntoki burunamye, inyuma yabo hari ikibuga n'ibiti n'umuntu uhagaze, bamwe barahagaze abandi barunamye.

Abantu baje kuvoma amazi, barahagaze, umwe arunamye arapika. Inyuma yabo hari ibyatsi byinshi n'igiti ku ruhande.

Ababa batatu b'abanyeshuri, umwe yambaye umwambaro w'ishuri abandi bambaye bisanzwe, inyuma yabo hari urubaho mwarimu yandikaho iyo abigisha.

Abaganga n'abaturage barimo gukangurirwa uburyo bwo gukumira no kurwanya gutwita kw'abangavu, kwirinda inda zitateganyijwe. Imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hejuru hariho mudasobwa.

Abagabo bambaye imyenda itandukanye baricaye bari mu nama harimo n'abagore bose baricaye umwe ni umwisiramukazi, umudamu umwe arunamye bari mu nama.

Abantu bahuriye ku ivomero, umwana urimo gukarabira mu ibafu inyuma ya hari amazu ahari hejuru urebye hari ibicu.

Umuganga w'umudamu arunamye asutse imisatsi yambaye amaherena, imbere ye hari umugore ukikiye umwana arimo kumuha umuti mu kanwa.

Ni umudamu wambaye amadarubindi n'igitenge cyiganjemo ibara ry'umuhondo arimo guseka, inyuma ye hari abana benshi barimo guseka abandi ntabwo barimo gutekaka.

Ihuriro ry'abantu higanjemo ababyeyi b'abadamu ndetse n'abana, inyuma yabo hari kandagira ukarabe, iruhande hari inzu ifite amabati afite irangi ry'umutuku.

Abana bari ku gishanga hari amazi, umwe ni umunyeshuri yambaye ikabutura y'ubururu, ishati y'umuhondo, afite amazi mu ntoki, abandi bahagaze inyuma ye, inyuma hari ibiti n'ibyatsi.

Abantu baje kuvoma, bafite ibidomora byinshi, inyuma yabo hari ibiti birebire, ku ruhande hari inzu.

Ihuriro ry'abaganga biganjemo abadamu ndetse n'abagabo barimo kwita ku barwayi, inyuma yabo hahagaze ushinzwe umutekano.

Umudamu aricaye, yambaye ibitenge, yazanye umwana kumuvuza, muganga arimo aramuvura we arahagaze.

Abantu barimo kuvoma amazi, harimo abadamu, n'abana bahagaze inyuma, bafite ibibido, inyuma yabo hari ufite umutaka, ufite ibara ry'ubururu.

Abantu benshi, harimo abadamu, abagabo, bamwe bambaye ingofero, bafite ibipapuro mu ntoki, inyuma yabo hari ibiti, hirya gato hari inzu, ku ruhande hari ivaze ifite ibara ry'umuhondo n'iry'ubururu.

Abadamu batatu baje kuvoma amazi; babiri barimo gupika undi arimo kuvoma. Inyuma yabo hari igiti kirekire n'urukuta rwavuyeho irangi.

Umwana arunamye arimo gukaraba mu ntoki yashyizeho ibafu arimo guseka, yambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, inyuma ye hari igikuta kiriho amatafari.

Abantu benshi harimo abasore n'abakobwa n'abana baje kuvoma bafite ibintu bitandukanye, harimo indobo zifite irangi ry'ubururu, umutuku n'umweru, abandi bafite utudomora dutoya n'ibidomoro.

Abantu baricaye, abandi barahagaze, harimo igitsina gore, igitsina gabo, n'abana, imbere y'abo hari inzu ishaje.

Mu rugo rwubakishije imiyezi, mu mbuga hari agatandaro karanzeho ibyombo, inyuma yako hari itsina z'ibitoki.

Abajyanama b'ubuzima baricaye bambaye umwambaro w'akazi harimo n'abagabo, ni abantu benshi bamwe bambaye ingofero, abandi bambaye ibitambaro mu mutwe.

Imbaga y'abantu nyamwinshi yateranye bamwe baricaye abandi barahagaze, hari abashinzwe umutekano, inyuma yabo hari ibiti birebire, hirya gato hari igitambaro gifite ibara ry'umutuku n'umweru.

Abagabo, abana n'abakobwa baje kuvoma, bafite ibidomora bifite ibara ry'umuhondo ibindi umukara n'icyatsi bafite n'amabafu hamwe n'amasafuriya. Inyuma yabo hari inzu zituzuye, hari ibiti.

Abagabo baricaye mu ntebe z'imbere, bafite amazi yo kunywa, inyuma yabo hari abadamu na bo baricaye, bafite amazi bari mu nama.

Abadamu babiri baricaye barimo guseka, inyuma yaho hari ikirangantego, umwe yambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, yashyize ibiganza imbere.

umudamu wambaye umupira w'ubururu, yambaye agapfukamunwa, yambaye igitenge hasi kirimo ibara ry'ubururu n'umuhondo. Ari kumwe n'umwana yambaye umwambaro w'ishuri, arimo gukaraba muntoki.

Umudamu wambaye agatambaro mu mutwe arahagaze arimo guseka, imbere ye hari umwana nawe urimo guseka, yambaye agapira k'amaboko maremare, imbere yabo hari igihingwa gifite ibibabi bitoshye by'icyatsi.

Abantu batatu, abadamu babiri harimo umwana umwe w'umukobwa baje kuvoma amazi bafite ibidomora, inyuma yaho hari insina n'umurima urimo ibitoki.

Abadamu bane baricaye, umwe ni umuganga, arimo arafata umuvuduko w'amaraso, abandi baricaye babiri, ku ruhande inyuma yabo hari ubusitani.

Abana babiri baje kuvoma, umwe arimo gupima gusunika, undi arimo kuvoma, inyuma yabo hari ibiti, hari ibyatsi, urareba ibicu hejuru, akana kamwe karimo guseka.

Umugabo arahagaze yambaye imyenda y'ubururu, imbere ye hari umwana waje ku ivomero, afite indobo y'umuhondo.

Umwana w'umuhungu, arimo gukaraba intoki, afite isabune, yambaye umupira w'ubururu, ufite uburongo bw'umukara, ukuboko kurimo kumusukira amazi, afashe ijaga y'icyatsi.

Umwana wambaye ishati y'umutuku, Arimo guseka. Arimo gukaraba intoki kuri kano. Inyuma ye hari ibiti bitagaragara neza.

Abana batoya baricaye, harimo kubaha icyo kunywa, harimo abasore n' inkumi bari kubaha ibyo kunywa bambaye amajiri.

Umugabo yunamye mu mbuga, yambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, arimo gukaraba mu ntoki, inyuma ye hari inzu n'igiti cy'umwembe.

Umwana w'umukobwa arahagaze yambaye umupira w'ubururu w'amaboko maremare n'ijipo, imbere harimo ishati y'umweru arimo arakaraba mu ntoki, inyuma ye hari amazu n'ibiti.

Abadamu batatu, babiri barimo kuvoma, bambaye agapfukamunwa, undi ahagaze inyuma y'abarimo kuvoma, bafite ibibido bibiri.

Abaganga babiri barunamye umwe n'umudamu undi ni umugabo, imbere yabo haryamye akana barimo kuvura, iruhande hicaye umudamu yambaye igitambaro cy'icyatsi mu mutwe, inyuma hari abantu bahagaze harimo uwambaye umuhondo.

Ni umudamu, yikoreye indobo ifite ibara ry'umutuku, ufashe undi mu ntoki y'umuhondo, arimo kugenda, imbere hari ibiti, hari n'abantu.

Abaganga baricaye bari kumwe n'abaturage bafite abana bambaye udupfukamunwa, bamwe inyuma yabo hari ubukangurambaga bukangurira ababyeyi kuza kwipimisha.

Inzu, ibendera ry'igihu, hari n'ibidara, abantu benshi, abadamu, abagabo, hari n'imodoka ku ruhande.

Abadamu batatu, umwe arimo kuvoma, abandi babiri bari inyuma barapika, inyuma yabo hari igiti.

Abantu bamwe baricaye, abandi barahagaze, bari kumwe n'umwana uhagaze k'umunzani, barimo kumupima ibiro, umusore wicaye, yambaye amadarubindi, hasi hari umukeka.

Umugore ari kumwe n'urubyaro rwe, arimo kubatekera igikoma cyo kunywa, aricaye arimo araseka.

Igishushanyo cy'umuntu cyerekana iminwa, amazuru n'amaso. Ku mutwe baragaragaza ubwonko bw'umuntu. Ukuntu buba buteye.

Abantu icyenda barahagaze, harimo umupolisi umwe. Bari kuri ikigo nderabuzima cya Kacyiru, iruhande hari icyapa kiyobora abagize ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umuntu wicaye yambaye ubusa, nkeka ko ashobora kuba ari umusazi, arareba ku ruhande, afite umusatsi mugufiya, inyuma ye hari igikuta gisa nabi.

Abana barimo kurira bambaye imyenda isa nabi icitse, bafite imisatsi itogoshe, inyuma yabo hari abantu bahagaze iruhande hari ibiti.

Ihuriro ry'abana bambaye umwambaro w'ishuri barimo guseka, inyuma yabo hari abandi bahagaze.

Umudamu arimo guteka, iruhande rwe hari igikombe, hirya hari inkwi, inyuma ye hari inzu, iruhande hari umurima urimo insina.

Umusore ufite ubwanwa, umusatsi utari mwinshi, araseka, yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, arimo kumwenyura. Inyuma ye hari imbaga y'abantu nyamwinshi. Bambaye ingofero n'abadamu, hari ibara ry'icyatsi.

Abadamu harimo n'umugabo baricaye, umadamu umwe arimo kuvuga afite agapfukamunwa ku kuboko, afite imisatsi, ni inzobe yambaye amaherena.

Inzu yanditseho Karayesi, imbere yayo hateye imikindo, hari ubusitani n'igiti kirekire.

Umugabo aricaye arihebye yubitse umutwe ku ruhande hari umukobwa amufasheho.

Aha abagabo babiri n'igitsina gore batatu, umwana umwe, baricaye, iruhande rw'inzu, inzu irafunguye, inyuma hari ibitoki n'amazu abiri.

Abapolisi barahagaze bari kumwe n'abandi bantu bambaye imyenda isanzwe, harimo abagore n'abagabo barimo gufata ifoto y'urwibutso.

Abakobwa batatu baricaye bambaye udupfukamunwa bicaye ku ntebe hepfo yabo gato hari amazu yubatse kinyarwanda iruhande rw'umwe hari ibati.

Ahantu henshi h'abagabo harimo n'igitsina gore baricaye bari mu nama imbere ku meza hateretse amacupa y'amazi n'amasakoshi, umudamu umwe ahagaze imbere y'abo.

Muganga yicaye arimo guseka yambaye umwambaro w'akazi, iruhande rwe hari aho baryamisha abarwayi baje kwisuzumisha amenyo.

Muganga yambaye imyenda y'akazi, afite ibikoresho mu ntoki, imbere ye hari umurwayi uryamye bari kumusuzuma amenyo, iruhande hahagaze undi muntu.

Ni umukobwa ufite imisatsi. Arahagaze. Yambaye isengeri ifite ibara ry'mweru. Arimo koza amenyo.

Abana baricaye bari mu ishuri bazamuraye amaboko bafite umuti w'amenyo, inyuma yabo hari ikibaho mwarimu yandikaho iyo arimo kubigisha.

Abaganga babiri umwe yambaye imyambaro y'akazi y'ubururu, undi yambaye iy'umweru, yambaye agapfukamunwa, imbere ye hari umurwayi, arimo gukura iryinyo.

umuganga w'umudamu yambaye imyambaro y'akazi, arimo kuvura umusore ufite ikibazo cy'amenyo.

Umusore wasutse imisatsi hejuru, mu mpande harogoshe, arimo guseka afite akagozi mu menyo azamuye amaboko.

Umusore ufite umugozi mu menyo, ni inzobe yakanuye amaso, amaboko abiri afashe mu mugozi.

Umusore usutse imisatsi ari kumwe n'umwana bambaye imipira yumweru bombi, mu menyo yabo bashyizemo akagozi bose bagafasheho.

Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri, abandi bambaye umupira, barimo koza amenyo, bafite uburoso butandukanye amabara ndetse n'ibikombe bifite amabara atandukanye.

Umusore arahagaze, afite ubwanwa, yambaye ishati y'ikoboyi, imbere harimo isengeri, arimo guseka.

Umugabo n'umugore baricaye, umugore afite agapapuro mu ntoki, arereka umugabo ibijyanye n'amabwiriza, ku buryo banywa imiti umugabo afite.

Umukecuru aricaye afite urupapuro mu ntoke, iruhande rwe hari umusaza, afite imvi, yambaye ishati y'amaboko magufi, imbere ye hari amazi ari mu kirahure, afite terefone mu ntoke.

Umugabo arambuye ukuboko, ukundi gufashe igikoresho gipima umuvuduko w'amaraso, aricaye yambaye ikote ry'ikigina, afite umusatsi mugufiya havanzemo n'imvi.

Umusaza wambaye amadarubindi, ishati y'amaboko mamemare y'ubururu, yicaye ku gitanda barimo kumuhagurutsa, iruhande rwe hari umugangakazi w'umuzungu.

Umugangakazi afite ibinini mu ntoki arimo kubiha umurwayi yicaye imbere ye afite ikirahure cy'amazi hari agakarito kajyamo ibinini inyuma ye hari ivaze ihatetse.

Umugangakazi urimo kuvura umusaza amupima umuvuduko w'amaraso, umupapa arimo araseka, ari kumureba mu maso, yambaye amadarubindi, afite umusatsi w'imvi.

Ababyeyi b'abadamu, baricaye, bamwe bambaye ibitambaro mu mutwe, harimo abafite imvi, inyuma yaho hari umurima urimo insina, hari n'intebe z'umweru bicayeho.

Umugangakazi yambaye agapfukamunwa n'amadarubindi, asutse imisatsi aricaye, imbere ye hari umukecuru arimo kumwitaho mu gikorwa cy'ubuvuzi, inyuma hari ibiti.

Abantu batatu barimo guseka, umwe ni umumama, undi ni umukobwa undi ni umwana, bafite imisatsi umukobwa afite ibisatsi bya menshi, umumama afite imisatsi irimo imvi.

Mu muryango, higanjemo abagabo, abagore, ndetse n'abana, barishimye, barimo gufata ifoto, inyuma yabo hari ibiti.

Abagabo babiri bafatanye ku rutugu, umwe ni muremure arasumba undi, n'inyuma yabo hari ibiti byinshi, ku ruhande hari ibyatsi.

Umudamu ufite imisatsi, yambaye amadarubindi n'ishati y'ikoboyi imbere harimo isengeri y'umweru, aricaye afite ikanya mu ntoki arimo ararebana n'umusaza, barimo gufata ifunguro.

Ni umugabo wambaye amadarubindi ari no guseka, yambaye umupira w'amaboko magufi, imbere ye hari igikombe ari kumwe n'umuhungu araseka. Afite igitabo arimo gusoma.

Abagabo babiri barimo kuganira bafatanye ku rutugu, umwe muremure, undi ni mugufi, inyuma yabo hari ishyamba ririmo ibiti birebire, iruhande hari ibyatsi.

Abadamu babiri barimo gukora imyitozo baraseka umwe yambaye akantu k'umweru k'ukuboko n'umupira w'amaboko magufi undi yambaye isengeri afite umusatsi w'umukara uwundi afite umusatsi w'imvi.

Umukecuru, ufashe ku muwa, afite ikirahure cy'amazi, yambaye amadarubindi n'amaherena, umupira w'umukara w'amaboko magufiya iruhande rwe hari imyenda.

Umukobwa n'umusore barunamye, barafasha umusaza guhaguruka ku gitanda, yambaye ipantaro y'umukara, afite umusatsi w'imvi.

Umukobwa arimo guseka afite umusatsi muke, yambaye amaherena yambaye agashati karekare k'umweru, hagati hari umukecuru wambaye amarineti arimo guseka, iruhande hari umusore wambaye umupira w'umutuku afite isahani iriho umugati.

Umudamu ari kumwe n'umugabo, baricaye, bose bambaye impeta, imbere yabo hari impapuro, mu biganza byabo bafite urundi, barimo gusoma.

Uruvunge rw'abantu urubyiruko, inkumi n'abasore, barimo kwamamaza, kwirinda virusi itera SIDA.

Ikirangantego kigaragaza uburyo amabwiriza yo kwirinda virusi itera SIDA mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tubikanguriwemo n'ababishinzwe.

Muganga w, umudamu aricaye arimo kuvura umukobwa ubyibushye ufite imisatsi yambaye umupira wamaboko magufi umukara inyuma yabo hari AbanU bahagaze.

Imbaga y'abantu nyamwinshi yateranye. Abagabo, abagore baricaye bari mu nama. Barimo kumva ibyo ibyo barimo kuvuga.

Minisitiri w'ubuzima, w'igihugu cy'u Rwanda, arahagaze iruhande rwe hari mugenzi we, afite igitabo mu ntoki, yambaye amadarubindi, inyuma yabo hari ikirangantego, cy'igihugu cy'u Rwanda.

Igishushanyo kigaragaza indwara zitandura cyangwa zikwirakwira, iruhande hari ikaramu, munsi hari urushinge, hirya gato hari irange ry'ubururu.

Imbaga y'abantu nyamwinshi, baricaye, imbere yabo abadamu barimo kubyina amaraba, insanganyamatsiko iragira iti:"Ni umunsi ku rwego rw'isi wahariweho kurwanya SIDA."

Umusore wambaye ishati y'umukara y'amaboko maremare, n'isaha n'ipantaro y'ikuboyi, ari kumwe n'umudamu na we wambaye ikoti ry'umukara, imbere harimo umupira, arakangurira kwisuzumisha igituntu. Inyuma yabo hari ibendera ryigihugu cyu Rwanda.

Ivuriro rigeretse, hasi hari abantu babiri bahagaze, hari intebe.

Ikigo nderabuzima cya Rwerere cyubakishije amatafari ahiye afite irangi ry'umweru iruhande hateye indabo imbere hari umuhanda w'igitaka.

Umuntu uri mu kagare, yambaye umwambaro w'icyatsi, hirya ye hari inyubako ifite irange ry'umweru, imbere y'uwo muntu hari ubusitani, hari umuntu uhagaze n'ikigega.

Mu cyUmba cyo bavuriramo abantu barwaye amenyo, hari agatanda abarwayi baryamaho, hashashiho igitambaro gifite ibara ry'icyatsi, iruhande rwayo hari intebe hejuru hari amatara amurika.

Iyozu bakiririmo abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yubakishije amatafari ahiye iseze irange ry'umweru, iruhande rwabo hari ibigega bibiribona n' ubusitani, inyuma harinda inzu ifite amabati hariho ibara ry'umutuku inyuma hari igiti.

Intebe yo kwa muganga baryamishaho abarwayi bafite ibibazo by'amenyo, ifite ibara ry'ubururu, iruhande gato hari akandi gatebe gafite amaguru atanu afite ibara ry'ubururu ry'umukara.

Ibitaro byo kwa Nyirinkwaya haparitse imodoka n'inzu ya etaje hateyemo imikindo.

ikigonderabuzima cya Kigina, hanze hahagaze umudamu ahetse umwana, imbere inzu ifite amabati y'ibara ry'icyatsi harimo.

Ibitaro bya Nyanza birafunze, imbere hari ibiti birimo, amabati afite ibara ry'ubururu.

Umugangakazi arimo kwita ku murwayi, inyuma ye haruwundi uryamye yambaye agatambaro k'umutuku ufite ibara ry'umweru mu mutwe, inyuma yabo hari kizimyamwoto.

Inzu iriho aho bakorera ubushakashatsi bujyanye n'ubuvuzi, irageretse, iruhande rwaho hari ubusitani, imbere hari imodoka ihagaze.

Inyubako igeretse, hasi abagabo babiri barimo kugenda, imbere yayo hari ubusitani, hakurya hari ibiti.

Umugangakazi yambaye agapfukamunwa, asutse imisatsi. Imbere ye hari umwana arimo aramupima ibijyanye n'umuvuduko w'amaraso, inyuma mu kabati hari imiti n'ibikoresho akoresha.

Inzu ifite irangi ryumweru, imbere yaho hahagaze abantu, inyuma y'abo bantu hari ubusitani bufite indabo nziza z'umutuku.

Aho bagurishiriza imiti hitwa iraguha, imbere harimo umudamu uhetse umwana afashe undi ukuboko hari n'abandi bantu bahagaze hanze hari umu motari n'imodoka.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo handitseho isange, bivuze aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Ikigo nderabuzima hari aho bakirira abarwayi, abantu benshi barahagaze harimo abana, abakobwa, abadamu, hirya umusore wambaye umupira w'amaboko magufi.

Ivuriro rigaragaza aho ababyeyi babyarira, ryubakishije amatafari ahiye, hejuru amabati afite irangi ry'ubururu. Inyuma yaho hari ibiti.

Abaganga batatu baricaye, muri bo babiri ni abakobwa bambaye imyenda y'akazi, imbere yabo hatereretse icupa ry'amavuta y'igihwagari,..

Ibitaro bya Caraes, inzu ifite ibara ry'umuhondo, hanze hari imikindo, imbere y'inzu hari amavase abiri arimo indabo.

Umukobwa arahagaze yambaye ishati y'umweru n'amaboko maremare, iruhande rwe hari umwana barimo gupima ibiro, hirya hicaye undi mudamu.

Aho batangira imiti, hitwa mediyasolu, hari icyapa hejuru, gifite ibara ry'icyatsi n'umweru, mu magambo yanditse, harafunguye, hari ibara ry'umweru mo imbere.

Umusore wambaye ikabutura y'umukara arimo gukora imyitozo ngororangingo ukuboko kumwe kuri hasi, ukuguru kumwe arakurambuye ukundi yagushyize inyuma.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo, ikabutura y'umukara, asutse imisatsi, araryamye, ari mu myitozo ngororangingo. Iruhande rwe hari umuzungu wunamye, yambaye ingofero n'umupira w'amaboko magufi wirabura.

Umusore yambaye isaha fite agacupa k'amazi arimo kunywa, yambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu afite ubwanwa.

Umukobwa, urimo gukora imyitozo ngororangingo, afashe mu kirenge , yambaye isengeri, afite imisatsi, yambaye na kola.

Umukobwa yahuje amaboko, yambaye isaha, arimo gukora imyitozo ngororangingo, mu matwi ye yambaye igituma yumva amajwi ava muri terefone.

Abantu babiri, umwe arahagaze yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu, bari mu myitozo ngororangingo, ibafasha kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza.

Abantu bahagaze mu biti, imbere yabo hari abandi babiri bambaye imipira y'umweru y'amboko magufi n'udusengeri tw'umutuku, bafashe umusore wambaye umupira w'umuhondo.

Umusore wambaye isengeri n'isaaha ku kuboko arimo gukora imyitozo ngororamubiri, intoki ze zifashe mu irugu.

Umukobwa usutse imisatsi, arambuye amaboko ari mu myitozo ngororangingo, iruhande rwe hari ibara ry'ubururu.

Ibiribwa byiganjemo imbuto, birimo amashu, imineke, inkeri, iruhande hari amagi, inyama na forumaje.

Umudamu aricaye yambaye ishati yamaboko maremare y'umweru yambaye akanigi mu ijosi ukuboko kumwe gufashe ku kundi.

Umugangakazi arimo kwambara agapfukamu, asutse imisatsi, imbere hari igitabo na mudasobwa arimo kureba kuruhande.

Umudamu apfukamye imbere ye hari umwana iruhande hari umuzungukazi araseka inyuma ye hari abantu bicaye iruhande hari imeza.

Umusore aricaye, yambaye umupira wamaboko magufi, ufite ibara ry'mweru, imbere harimo isengeri y'umukara, arimo gukanda ukuboko.

Umusore wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi, afite icupa ry'amazi mu ntoki, arimo arayimena mu gahanga, arahagaze.

Ikiganza gifashe ijage irimo amazi, arimo gusuka mu kirahure.

Umugabo wicaye yambaye ishati y' amaboko maremareyahuje intoki ,imbere ye hari mudasobwa itertse ku kabati hirya ye hari intebe.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri, intoki ze zifasha ku birenge, inyuma ye hari agatebe karekare, yambaye impeta, afite imisatsi.

Ni umusore uri mu myitozo ngororangingo afite ibyuma bakoresha, yambaye umupira w'umukara n'amaboko magufi.

Igipimo muganga yambara mu matwi iyo asuzuma abarwayi yumva ku mutima, iyo acyambaye mu matwi, gifite ibara ry'ubururu n'umukara.

Umuganga yambaye agapfukamunwa k' unururu , yambaye imyenda y' akazu, imbere ye hari umuntu uryamye urimo kumupima mu mugongo.

Abaturage bambaye umwambaro w'akazi ahandi nabo, inyuma yabo hari ishyamba ibiti barimo kumurika igihingwa cyitwa igikakarubamba, gifasha kuvura indwara zimwe na zimwe.

Umugabo ahagaze mu biti byinshi, yambaye umupira w'umweru, ufite amaboko y'umukara, hari ibihuru byinshi bifite indabo z'umuhondo.

Indabo zitandukanye zimwe zigiye ziri mu tuvaze, izindi ku ruhande hasi, izeze, n'izifite ingemwe. Zifite amabara atandukanye: hari icyatsi, hari umweru, hari n'umuhondo.

Ikinyobwa gitera imbaraga, gifunze mu gakombe gafite ibara ry'umutuku, hejuru barahapfundura, handitsemo n'amagambo y'umukara ndetse n'umweru, mu ndiba yaho ni umweru.

Umudamu ucuruza imiti, ubuvuzi gakondo, imbere ye hari umugabo wunamye, inyuma yashyizeho nimero ushobora kwishyuraho, cyangwa ukabahamagaraho.

Umuntu ufite isekuru arimo gusekura, iruhande hari utubindi, hari amasahane ateretsemo ibyo arimo gusekura arimo gusekurira ku musambi.

Imiti ya kinyarwanda iri mu ducupa dutandukanye hejuru hagati no munsi teretse niko iteretse iruhande hari indi miti indi imanitse ku giti.

Umudamu utagaragara igihimba yambaye ibitenge harimo ibara ry'umutuku, icyatsi n'umuhondo ukuboko kwe gufashe uturabo turi imbere ye.

Ibibabi by'icyatsi binini, bitoshye, bifite indabo z'umuhondo inyuma, hari n'izindi ndabo zitagaragara neza.

Imiti y'ubuvuzi gakondo iri mu icupa, ifite imifuniko y'umutuku n'umweru.

Ipapayi rikase, irindi ni ryose harimo imbuto.

Imiti myinshi y'ubuvuzi gakondo, abadamu babiri, umwe arunamye, yambaye agatambaro mu mutwe k'umweru, inyuma ye hari undi, yambaye imyenda y'akazi y'umweru, imbere yabo hari umugabo wunamye, wambaye ishati y'umukara harimo uburongo.

Amabwiriza agenga umuntu ushaka kwiyandikisha, kwinjira mu mwuga ujyanye n'imiti ya gakondo ku mugabane w'Afurika.